Abahinzi b'ibihingwa bitandukanye harimo imbuto, imboga, barashishikarizwa kujya batera imiti yica udukoko kugira ngo imyaka yabo itangirikara umusaruro ukaba mukeya.

Imiti yica udukoko ishobora kwifashishwa ahantu hagiye hatandukanye, haba mu buhinzi ndetse no mu rugo bisanzwe. Ibi bikaba bisabwa ko ukoresheje iyi miti ayishyira kure y'abana.

Abakora ubworozi bw'amatungo yo mu mazi azwi ku izina ry'amafi ni bamwe mu bishimira umusaruro bakuramo dore ko ngo bakuramo amafaranga abafasha gukemura ibibazo bitandukanye byo mu buzima bwabo ubwa buri munsi.

Icyayi ni igihingwa ngengabukungu, abakora ubuhinzi bwacyo bishimira umusaruro bakuramo dore ko bavuga ko babona amafaranga abafasha gukemura ibibazo byabo bya buri munsi, harimo nko kwishyura mituweli, kwishyurira amashuri abanza ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bw'icyayi ni bumwe mu buhinzi bufitiye igihugu akamaro ndetse n'abaturage muri rusange dore ko ababukora bavuga ko iki gihingwa kiyinjiriza amafaranga menshi cyane abafasha mu gukemura ibibazo byabo bitandukanye harimo nko kugura ibibatunga, imyenda ndetse n'ibindi.

Abakora ubucuruzi bw'imiti y'amatungo barakangurirwa kujya bayibika ahantu heza, hujuje ubuziranenge mu rwego rwo kwirinda ko yapfa, ikaba yateza ikibazo mu matungo.

Abacuruza imiti y'amatungo barakangurirwa kujya bayibika ahantu heza hafite isuku mu rwego rwo kwirindako abaturage bashobora kuyigura baziko bajyiye kwirinda ahubwo igateza ibibazo.

Abacuruzi babacuruza imiti y'amatungo barasabwa kujya bayibika ahantu heza hafite isuku, mu rwego rwo kwirinda ko yakangirika, hanyuma ikangiza n'ubuzima bw'amatungo.

Abaturage bakora ubuhinzi bw'ibigori ni bamwe mu bishimira umusaruro bakura muri ubu buhinzi dore ko bavuga ko uretse gukuramo ibibafasha mu kubirya, bavuga ko bakuramo n'amafaranga abafasha gukemura ibibazo bitandukanye, harimo kwishyura amafaranga y'ishuri, mituweli, ndetse n'ibindi.

Ibihingwa ngandurarugo nk'ibijumba, ni bimwe mu bifite akamaro kanini cyane, dore ko ababihinga bya kinyamwuga, bakuramo ibibatunga bagasagurira n'amasoko, bakagura ibindi bakeneye.

Imyumbati ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo, abakora ubuhinzi bwayo bavuga ko iki gihingwa kigira umusaruro mwinshi kandi vuba, ukabafasha kwikura mu bukene.

Abayobozi barakangurira abaturage ndetse n'undi uwo ari we wese, kwirinda gutemagura ibiti, bakavuga ko uzafatwa yarenze kuri ayo mategeko, azahanwa ndetse agacibwa n' amande.

Amashyamba nka kimwe mu bidukikije agomba kwitabwaho hakirinda kuyatemagura kuko afite uruhare runini mu mibereho yacu ya buri munsi, uretse gukuramo ibiti byo gucana, ibyo kubakisha, amashyamba atanga umwuka mwiza duhumeka.

Amashyamba nka kimwe mu bidukikije, agomba kwitabwaho kuko afite umumamaro munini mu mibereho yacu ya buri munsi, dore ko avamo imiti idufasha mu buzima bwacu, ibiti byo kubaka ndetse aka atanga n'umwuka mwiza duhumeka.

Amashyamba kimwe mu bidukikije agomba kwitabwaho mu rwego rwo kugira ngo dusigasire ibidukikije dore ko afite umumaro ukomeye cyane. Havamo ibiti byo gucana, ibiti byo kubakishwa ndetse agatanga n'umwuka mwiza duhumeka.

Abakora ubuhinzi bw'indabo ndetse n'ibindi bitandukanye, ni bamwe mu bishimira umusaruro bakora muri ibi bihingwa, dore ko bavuga ko bakuramo amafaranga abafasha gukemura ibibazo bigiye bitandukanye, ku buzima bwabo bwa buri munsi.

Leta y'u Rwanda irashishikariza abahinzi muri rusange, haba abahinga mu bice by'umusozi, abahinga mu bishanga, kujya bavomera imyaka yabo mu gihe k'izuba mu rwego rwo kugira ngo umusaruro ntugabanuke.

Abahinzi bakora ubuhinzi bwa kijyambere ni bamwe mu bakangurirwa kwifashisha imashini zabugenewe mu kuvomerara imyaka mu gihe cy'izuba, ibi bikabafasha guhangana n'ibiza biterwa n'izuba ryinshi cyane.

Abaturage bakora ubuhinzi mu bice by'imisozi mu gihe cy'izuba, barakangurirwa kujya bavomerera imyaka yabo mu rwego rwo kwirinda ko yakoma ndetse ikagira umusaruro ushimishije.

Abaturage bakora ubuhinzi mu bice by'imisozi barakangurirwa kujya bavomera imyaka yabo mu gihe cy'izuba, mu rwego rwo guhangana n'ubushyuhe bukabije bushobora gutuma imyaka yabo itera neza.

Abaturage batuye hafi y'imisozi ihanaramye, barakangurirwa kwirinda ndetse no kwimuka aho hantu, hashobora kubateza impanuka ishobora kubaviramo n'urupfu.

Mu gihe cy'imvura nyinshi abaturage batuye ku misozi ihanamye, barakangurirwa kujya baca imirwanyasuri mu rwego rwo kwirinda ibiza ndetse n'urupfu rutateganyijwe.

Abakora ubworozi bw'amatungo y'inka, barakangurirwa kujya bita ku matungo, bagahamagara abavuzi bayo mu gihe babonye amatungo yabo yagize ikibazo icyo ari cyo cyose.

Abaturage bakora ubworozi bw'amatungo magufi, ni bamwe mu bishimira umusaruro bakuramo, dore ko bavuga ko babona amafaranga menshi kandi mu gihe gitoya.

Abakora ubworozi bw'amatungo y'inka barasabwa kujya bita ku matungo yabo mu rwego rwo kugira ngo babone umusaruro mwiza kandi ushimishije mu gihe gitoya.

Abakora ubuhinzi bw'amatungo magufi nk'inkoko barasabwa kujya bayagaburira cyane bakayagirira isuku mu rwego rwo kugira ngo babone umusaruro mwinshi kandi mu gihe cya vuba.

Mu rwego rwo kwirinda indwara z'ibyorezo abaturage bakora ubworozi bw'amatungo bw'inka, barasabwa kujya bazivuza ku gihe kugira ngo birinde indwara zishobora gutuma amatungo yabo apfa.

Ubworozi bw'amatungo ya kijyambere ni bumwe mubugomba kwitabwaho kugira ngo umusaruro ube mwinshi kandi uboneke mu gihe gitoya cyane.

Bamwe mu bakora ubuhinzi barakangurirwa kujya babika imbuto ahantu heza mbere yo kuzitera bakabanza bakareba ko nta kibazo ziba zaragize mu rwego rwo kwirinda ko bashobora gutera imbuto ntizimere.

Abahinzi b'ibihingwa bijyiye bitandukanye harimo amajyeri, ibigori ndetse n'ibindi bitandukanye babika imbuto ahantu heza kugira ngo bazabone izo bazatera mu gihembwe gikurikiyeho.

Abahinzi mu gihe cyo gusarura, bahunika imyaka yabo, hanyuma abafite gahunda yo kuzongera bagatera mu gihembwe k'ihinga gikurikiyeho, ubu usanga barabitse imbuto, bakayibika ahantu hatagera imvura mu rwego rwo kwirinda ko byakangirika.

Abaganga b'amatungo bafatiye runini izi nyamaswa dore ko buri muturage wese asabwa kujya ahamagara umuganga w'amatungo. Mu gihe hari ikibazo cyabaye cyangwa se hari ikitagenda neza mu bworozi bwe.

Aborozi b'amatungo nk'inka ndetse n'abavuzi ni bamwe mu bagomba gukorana bya hafi kugira ngo babungabunge ubuzima bw'izi nyamaswa, aho zarwaye bakihutira kuzivura.

Abaturage bakora umwuga wo kubaga ndetse no gucuruza inyama z'amatungo, barakangurirwa kujya babanza bagahamagara abaganga b'amatungo bagapima inyama mbere yo kuzirya mu rwego rwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Inyamaswa zo kugasozi zifite umumaro munini niyo mpamvu tugomba kuzitaho, zikurura ba mukerarujyendo bagatanga amafaranga yifashishwa mukubaka ibikorwa remezo bitandukanye harimo imihanda, amavuriro, amashuri nibindi.

Inyamaswa zo mu ishyamba ni zimwe mu zigomba kwitabwaho. Abantu bakirinda kuzihiga ndetse no kuzica kugira ngo zitazazimira burundu.

Abanyarwanda ndetse n'abandi bose muri rusange barakangurirwa kubungabunga ubuzima bw'inyamaswa zo mu ishyamba, mu rwego rwo kugira ngo inyamaswa zidacika ndetse zikazimira burundu.

Inyamanswa zo mu ishyamba ni zimwe mu zigomba kwitabwaho mu rwego rwo kwirinda ko zizimira, twirinda kuzihiga cyangwa se kuzica ngo tuzirye n'ibindi byazangiriza umutekano.